Urusengero rwubakishijwe amatafari ahiye, imbere yarwo hari abantu benshi, higanjemo abagabo n'abagore n'abana, imbere yarwo hari imbuga ishashemo amabuye, inyuma y'abo bantu hari insina.